Umuntu uri gutera umuti ibirayi, yambaye imyenda zabugenewe zisa n'ingofero n'agapfukamunwa. Yambaye na ga z'icatsi. Ibirayi i Musanze dukundaga kubitera umuti, kubera ko iyo tutabiteye umuti birapfaga kubera iwacu hakonjaga.

Umuntu umeze nk'aho ari mu bushakashatsi yambaye itaburiya y'icyatsi, yambaye na ga mu ntoki z'umweru, ateruye urugemwe rumeze nk'aho ruhinze mu butaka. Uyu ni umukobwa.

Imiti batera imyaka ituma imyaka yera neza, yanditseho defogisi. Iyi miti ni myiza cyane, iyo uyihinze ku birarayi birera cyane bikaba bi...

Umurima uhinzemo amashu, umugabo ari kuYatera umuti, yambaye ikabutura na bote z'umukara, mu mugongo ahetse icyuma cy'umuti, yambaye n'ingofero.

Abagabo batatu; umwe afashe umufuka undi ari kuyora ifumbire y'ibishingwe. Uwunamye uri kuyora ifumbire yambaye akagofero k'ubururu n'ishati y'umutuku. Naho uwunamye ufashe umufuka yambaye umupira w'umutuku na bote z'umukara.

Agakoresho bakoresha bari gutera imiti, yica udusimba, kangaka bakunda kugakoresha, iyo bari gutera ahantu hatoya, cyangwa ku kintu kimwe. Kagasimbura icyuma cy'umuti. Kubera iyo ari ahantu hanini bakunda, gukoresha ipombo, cyangwa icyuma cy'umuti. Aka gakoresho gafite ibara ry'umweru n'ubururu.

Umuntu ubyibushye yicaye ku bwato, afashe ku ngashyi , yambaye ingofero, yambaye n'umupira, afite inda nini, yambaye n'ipantaro.

Igikoresho bakoresha bari kuroba amafi cyitwa inshundura, kiri mu kiyaga ariko nta mafi arimo, abantu baragifata bakakijyana mu mazi kigafata amafi bakayaroba.

Amafi menshi bagakuye mu migezi no mu kiyaga, bagarunda ahantu hamwe ntago bari bagateka garacari mabisi, i Musanze turagagiraga ariko turagaguraga kabaga gavuye ahantu haga hatandukanye.

Ifi ihiye twayitetse neza cyane, irambitse ku isahani, iruhande rwayo hari twasalade dukase mu nyanya, indimu ,n'utundi tuntu dutandukanye, iyi fi iraryoha cyane irumutse kandi isize ikirungo.

Amafi barobye bayakura mu mazi, bayarunda, ahantu hamwe hatari mu mazi, aracyarimo imigozi ,ntabwo bari bayateka. Amafi rero i Musanze barayarya, tuyagura mu isoko.

Isahane y'umweru y'idongo bateguye, bayoza neza, bayirambika ku meza, bayishyiraho amafi abiri, bayishyiraho seleri n'indimu bakasemo uduce tubiri.

Ikiyaga hari kugendamo ubwato butandukanye, bambaye utujire tw'umutuku kugira ngo bataza kurohama, iki kiyaga rero kimeze neza nta muhengeri urimo.

Amafi bakuye mu mazi, aracyari mu ndobani ni matoya ntabwo ari manini cyane, i Musanze natwe turayabona ariko aba avuye i Rubavu, cyangwa mu bindi biyaga kuko i Musanze nta biyaga byinshi biriyo.

Ifi batetse neza, barayitahura, bayishira ku isahani, bakatiraho n'utuntu tumeze nka pavuro n’utunyanya. Irambitse mu gasosi, imeze neza cane. Ifi, turayikundaga cane mu Karere ka Musanze.

Ifi bateguye bayishyira ku isahane irikumwe n'ironji bakasemo kabiri. umuntu iyo ariye ifi, agira imbaraga nyinshi cyane kuko iri mu byubaka umubiri. I musanze zirahabaga cane kuko tubaga twaziguze mu karere ka Rubavu.

Ubwato bw'abamarine busa n'umweru n'umukara, bwanditseho police marine. Harimo abantu bambaye utujire tw'umutuku n'imyenda y'umukara. Ubu bwato hari akantu gasakaye gato, hirya y'ubwato hari abana bahicaye bari kubureba.

Abantu bari kugenda mu bwato bw'amazi, bari kugenda bari kugashya, umwe yambaye agapira k'umutuku, undi yambaye ak'ubururu hejuru, undi yambaye icyatsi, undi uri kugashya nawe yambaye agapira k'umutuku. Ubu bwato ni ubw'ibiti, bakunda kubukoresha bari kuroba amafi.

Isahani y' idongo bateguye neza bakayoza, bayirambika ku meza, kuri iyo sahani bashyizeho ifi ebyiri zitetse neza, indimu bakase, akaronji bakase n' utundi dusalade bashyize kuri iyo sahani bisa neza cyone.

Isahani bashyizeho ibintu byo kurya hari umufungatayi ifiriti iruhande rwayo hari ironji rimwe bakasemo uduce tubiri, ntabwo bararya, hejuru y'izo mufungatayi hariho na twa seleri duhagazeho.

Isahani y'idongo bashyizeho ibyo kurya bayitereka ku meza, hariho imifungatayi, uturonji bakasemo uduce dutoya, ifiriti, n'utundi twatsi twa sereri tugeretse hejuru y'imifungatayi.

Ibiryo bateguye bashyize ku meza hari inyama zimeze neza zikaranze hagati yazo hariho indimu bakase, urunyanya n'agatunguru mu rutoryi hashizemo udukirida.

Icyokezo bigaragara ko hariho amafi atatu bari kotsa，ni manini yahiye neza， amafi rero araryoha cyane，hano muri Musanze，tuyarya ari uko twayaguze， kuko nta kiyaga kindi dufite kibamo amafi.

Ibigorigori birunze ahantu hamwe mu murima, barabisaruye babishyira ahantu hamwe, ntabwo bari babifata ngo babihingireho, n'uwo murima ntabwo bari bawuhinga.

Umurima guhinzemo karoti, karoti i Musanze turazihingaga cane. Zikunda ku hera abantu bazirya bazihekenye, cangwa bakaziteka nk'imboga mu biryo bikaryoha.

Ihene iri mu murima iri kurisha ubwatsi n'ubwo bigaragara nk'aho ntabuhari, hirya hari amazu adahomye ariko asakaje amabati n'amadirishya nta yarimo. Iyi hene iyo barayibaga ikavamo burushete cyangwa bakayorora, ikazatanga umusaruro ikazabyara abana bakabagurisha.

Umurima waraye harimo ibyatsi byinshi cyane, hahinzemo igihaza cyarandaranze kigera kure, ariko harimo ibyatsi bitabagaye, ntago bari bawuhinga ngo bongere guteramo ibindi.

Igishyimbo kiri kumera, kiracyari gitoya. Cyameze mu murima urimo utubuye twinshi dutandukanye, ariko cyarazamutse n'ubwo udusimba twatangiye kukiryaho tukagipfumagura ku mababi.

Umurima wegereye igitari bawuhinze, dore ko nta kintu cyezemo, iruhande rwaho hari ibiti by'intusi, hirya y'aho hari uwundi murima batahinze, hari n'ibyatsi bindi biri muri uwo murima wundi udahinze.

Imirima zitandukanye zihinzemo ibitoki byegereye amazu, ugundi murima guhinzemo amajeri turayakundaga cane mu Karere ka Musanze.

Umurima wahinzwemo ubwatsi bw'inka bita urubingo, inka ziraburya cyane. Iyo bwakuze cyane bugeraho bakabukuraho imishingiriro. Inyuma y'uwo muririma hariho ibindi biti birebire.

Ibitoki biteye ahantu ku nzira, iruhande rwaho hari ibyatsi byinshi cyane byahameze, bimeze nk'imboga z'inyabutongo, ibi ibitoki rero bivamo urwagwa, cyangwa tukabirya ari imineke, bamwe na bamwe barabiteka mu biryo bikiri bibisi.

Umurima uhinzemo ibirayi, iruhande rwayo hari amazu, inzu igaragara isakaje amabati akerebereye hamwe, iruhande rw'umurima hari urubingo, ibyo birayi bihinze muwo murima birasasiye bisa neza.

Umurima harimo intama iri kurisha, hirya y'iyo ntama hahinze ibitoke ni mu rugo, k'urwo rugo hahinzeho n'ibidodoki bizengurutse uruzitiro.

Mu mirima bahingamo ibintu bitandukanye. Umurima umwe nta bwo uhinze, hari hateyemo igitoki kimwe hirya y'uwo muririma hari uwundi uhinzemo ibigori, ariko byenda kwera.

Umurima bahinzemo ibitunguru, hirya hateye ibiti bitandukanye, ahandi harimo ibitoki, hino hariho urubingo, uyu murima ntabwo ubagaye neza, bigaragara ko hari ibyatsi bikirimo, ibintu bihinzemo hari igihe bitazera neza, kubera ko batabibagaye.

Umurima bahinzemo ibirayi, iruhande rwaho hariho ibiti, hirya hari amazu atuyemo abaturage, ibirayi birashishe bisa neza kandi bigaragara ko nta burwayi bi.

Urusasa ruhinze ahantu hamwe, aho ruhinze nta bwo hera neza, kuko mu bigaragara nta n'ubwo iruhande rwaho bahahinze imyaka yo kurya, urusasa nta bwo rugikunda kuhaba, abantu benshi barucitsemo.

Umurima guhinzemo ibintu bitandukanye: igice kimwe barasaruye nta kintu kirimo, ikindi gice kirimo ibitoki. Ibitoki turabijyaga i Musanze cyane, uvagamo ugwagwa n'umutobe n'imineke.

Ahantu hari umucaca hari n'umuhanda ujya mu makaritsiye, hari n'inzu y'umutuku iri mu gipangu inzu isakaje amabati y'umutuku. Muri uwo muhanda hicaye umugabo wambaye imyenda y'umukara, inyuma ye hari akana kambaye imyenda ijya gusa na oranje.

Uruboga rw'urushu rwarashishe cyane rufite ibibabi byinshi ruraryoha, abantu bakunda kuruteka nk'imboga cyangwa bakaruteka bakarukoramo udusalade abashaka.

Umugore n'umwana bari mu murima, umwana arunamye afite agakonzo ari gukubita mu butaka. Umugore, we yiteze igitambaro, ari gukoresha intoki, yambaye n'agasengeri k'icyatsi.

Imyumbati irunze ahantu hamwe. Bayikuye mu murima, iraryoha, abantu b'i Musanze barayikunda cyane. Ariko nta bwo ikunda kuhera kubera ko itaka ryaho ryoroshye. Ikunda kuba ahantu mu mayaga hashyuha cyane.

Umukecuru uri mu murima ari guhinga yambaye ishapule mu ijosi, arunamye amaboko ye afashe isuka ari kuzamura ibitaka, inyuma y'uwo mukecuru hari guhinguka umusozi n'igitari n'ahantu hari ibyatsi byinshi cyane.

Umurima guhinzemo pavuro， bazishingiriye zizamuka hejuru， ntabwo bari bazisarura，i Musanze dukundaga kurya pavuro kubera ko zigiraga intungamubiri，tuzitekaga cane cane mu nyama no mu zindi mboga zitandukanye

Impungure za mayizori cyangwa nyirakagori izindi ni iza boride bazisaruye bazisuka mu mifuka iza mayizori ziri ukwazo n'iza boride zizi ukwazo. Izi za nyirakagori bazihingaga kera ubu ngubu ntago tugikunda kuzihinga cyane kubera ko zidatanga umusaruro nk'uwa eboride.

Aho bacururiza ibyo kurya harunze ibintu byinshi bitandukanye, hariho: karoti, ibitunguru, pavuro, imiteja intoryi, n'urusenda.

Umurima uhinzemo intoryi, zimeze neza zihinze ku murongo, hirya yaho hariho igitari kirimo ibiti byinshi cyane, birafatanye kandi byarashishe cyane cyane.

Mu isoko aho bacuruza imbuto zo kurya hariho: amaronji n' ubwo adasa neza yenda kubora, amatunda, imyembe, na za wotameloni zirunze ahantu hamwe.

Igihaza batemyeho gisa neza mu ibara ry'umuhondo, gisa n'ikiryoshe. Abantu b'i Musanze barabikunda cyane, kubera ko bitera imbaraga, kandi bigatuma umuntu wabiriye asa neza akanakomera.

Imiteja basoromye mu murima bazirunda ahantu hamwe zisa neza cyane, bigaragara ko zitarwaye izi ngizi baziteka mu birayi nk' imboga kuko ntabwo bategereza ngo zikure cyane zivemo ibishyimbo kandi abantu barazikunda.

Amaronji basaruye mu murima, ironji rimwe barikase ayandi aracyari imbumbe ntabwo bigeze bayakata, asa neza cyane afite irangi ry'umuhondo ryererutse, hariho n'utwatsi tukiri icyatsi.

Abakecuru babiri bari guhinga n'umukobwa umwe. Aba bakecuru bari guseka cyane, umwe yambaye agapira k'umweru, undi yambaye agapira k'ubudodo k'icyatsi. umwe yiteze yikenyeje igitenge, ariko abakecuru bose biteze ibitambararo mu mitwe yabo.

Aho babika imbuto z'ibirayi. Babisaruye babikura mu murima, none baje kubihunika kugira ngo bizavemo imbuto. Hari umugabo uri kugenda akuramo ibiboze ubundi agasigaza bizima, kuko iyo ikirayi kiboze ukibitse mu bindi, byose birabora.

Ipera barisatuye irindi ntibarisatuye, imbuto ziri kugaragara bigaragara ko rinatukuye risa neza. Riraryoyoha cyane, iyo umuntu wririye yumva ririmo isukari.

Igipapayi cya kizungu bagiciye bahita bagisaturamo kabiri, ntago bari bakuramo imbuto hagati none bakirambitse ibisate byose biri kugaragara, biracyarimo imbuto birambitse ku kibabi cya cyo.

Ibihaza ibiryo bakunda kurya mu karere ka Musanze bakunda kubiteka ku bishyimbo, iyo cyane cyane iyo batsimbye nibwo bakunda guteka ibihaza, bakabigereka ku bishyimbo.

Ibijumba basaruye mu murima barabikuraho imyanda barabyoza. None bari kubitondeka mu tubase dutandukanye, i Musanze turabihingaga cane kandi turabiryaga bikadutera imbaraga. Umuntu wabiriye agira imbaraga nyinshi.

Abantu benshi bari mu murima, bigaragara ko abayobozi basuye abaturage bari kubigisha uburyo bwo guhinga bwa kinyamwuga, kuko bigaragara ko baciye imirongo mu mirima, kandi abaturage bo bapfa kwihingira uko babonye.

Inyanya enye ni nziza cyane, zifite umutuku mwiza cyane w'umwimerere, ziraryoha cyane, barazirya baziriye nka sarade, cyangwa bakaziteka mu biryo, cyangwa bakazikoramo sarisa.

Pipinnyeri harimo ibiti byinshi bateye bikiri mu bihuho, hari umugore wikoreye ibase yikoreje ingata, yakenyeye igitambaro, yambaye n'ishati irimo utubara tw'umutuku, uwo mugore ari guseka arishimye.

Umurima guhinzemo ibigori bya Iburide ni byiza cane ntabwo byari byera neza ariko bigeze mu gihe co kuba byenda kwera i Musanze tubisaruraga bitari byuma kubera ko bitindaga mu murima bitereraga rimwe n'ibyo mu Burasirazuba.

Umurima w'ibitoki, hahagazemo abantu batandukanye, harimo n'inzego zishinzwe umutekano, abandi ni abaturage barashungeye, ibitoki bimwe byareze, uwo murima hagati aho bahagaze nta kintu gihinzemo.

Umugore uri guseka, yambaye agapira k'umweru, ahagaze hagati, iruhande gwe hari ibishimbo byiza cane bisa n'icatsi, uwo mugore yiteze igitambaro mu mutwe.

Ibishyimbo bya Kajamarike birunze ahantu hamwe, ibishimbo biraryoha cyane bigaragara ko batabirobanuye, bifite amabara menshi atandukanye harimo ibisa n'umweru, n'umukara bigira isosi, umuntu wabiriye agira imbaraga nyinshi kandi agasa neza.

Abaturage bari gusoroma icyayi bakenyeye amashashi, barunamye, mu migongo zabo harimo ibitebo bari gusoromeramo amababi y' icyayi; iyo bari gusoroma icyayi basoroma utubabi tubiri two hejuru tukiri dutoto nitwo basoroma.

Ibirayi bari gukura biracyari mu murima, ntabwo bari babi babishira mu mifuka, birunze ahantu hamwe, ibirayi bya kirundo bisa n'umweru, ibirayi biraryoha cyane, ariko ntabwo bimeze nka Kinigi, kuko byo iyo ubi bitetsemo ifiriti, biravuguka birashwanyagurika.

Umurima uhinzemo ibinyomoro, biraryoha cyane, harimo ibitukuye, kuko bigaragara ko benda kubisarura, ibindi byo ntabwo bitukuye, biracyasa n' icyatsi.

Ibijumba bakuye mu umurima, barabyoza, babisuka ahantu hamwe, harimo iby'umutuku, n'iby'umuhondo, byose biraroha cyane, iyo umuntu abiriye, agira imbaraga kandi bigira isukari nyinshi.

Akayungirizo bokerezaho ibigori. Bimwe birahiye ibyo bashyize hejuru. Akayungirizo karambitse ku matafari abiri. Hirya y'akayungirizo harambitse ibindi bigori bidatonoye, biracyari bibisi.

Umugore wunamye， yiteza igitambara mu mutwe，yambaye inkweto za siripa kamambiri， n’ijipo y’umukara， yiteze n'igitambara mu mutwe， ari mu murima w'ibigori，ariko arunamye，ari kubagaramo ibyatsi muri ibyo bigori.

Ikirundo c'amateke ni mabisi bagasaruye mu murima bagarunda ahantu hamwe gararacafite imyanda ntago baragoza.

Abahinzi bari kumenera ibirayi, bari gukoresha amasuka. Bari gukura itaka mu ndegwe, bakarizamura ku birarayi. Umwe ari kureba inyuma abandi bari kureba aho bari gukura ibitaka

Umufuka wa karoti, bawufunze barangije bashyiramo uduti tw'imigano, kugira ngo dutege izindi karoti ziri hejuru zirenze ku mufuka, bazogeje ni nziza ziraryoha, karoti bazikoramo imboga bakaziteka mu biryo.

Mu isoko bacururizamo ibyo kurya, harimo intoryi, ibibiringanya, ibitunguru birunze ahantu hamwe. Iruhande rwaho hariho ikigega kinini cy'umukara.

Inkoko z'amasake ziri ahantu hamwe ziri kurya. Harimo iz'umukara, iz'umweru, n'iz'amabara atandukanye. Izi sake ziri ahantu wagira ngo barahasenye, nta nzu zihari.

Avoka ebyiri ziracyari zose, zirambitse ahantu hamwe. Hari n'igice cya avoka kigifite ikibutobuto. Izo voka ni nziza cyane ziraryoshye zimeze nkaho ari imbangu...

Umugore uri mu murima afashe umupira w'amazi, bigaragara ko ari kuvomerera imyaka ye, yambaye ishati y'iribaya, mu mutwe we yitezemo igitambaro, uwo mupira afashe mu ntoki usa n'umukara n'umuhondo.

Insenda zirunze ahantu hamwe zifite ibara ry'umutuku, harimo izigiye kubora, hari n'izarwaye izindi ni nzima. Insenda ni nziza ziraryoha ariko abantu bakuru ni bo bakunda kuzirya, abana bo, zirabasharira.

Umurima uhinzemo ibigori amababi yo hasi arumye ayo hejuru asa n'icyatsi, turabihinga I Musanze birera nubwo bitinda ntago byari byera neza, nta nubwo byari byazana imiheko.

Abagore bishimye benshi bambaye ibitenge bamanitse inanasi bavuye gusarura ni nini cyane bigaragara ko ziryoshye zifite amazi. Umukecuru umwe yiteze igitambaro mu mutwe n'undi mugore bari kumwe nawe we yiteze igitambaro.

Igitoki kigaragara ko gikuze. Ni ubwoko bwa kamara havamo imineke myiza cyane iryoha, kandi iyo mineke ikagira intungamubiri nyinshi cyane zihagije, ku buryo bakunda kuyigaburira abana n'abantu bafite imirire mibi.

Avoka basatuyemo kabiri. Isa neza cyane iraryoshye. Igice kimwe cyasigayemo ikibuto. Ikindi gice cyo nta kivuta kirimo. Iyi voka bigaragara ko nta mazi arimo. Kandi iyo itarimo amazi iraryoha cyane.

Amapera gakiri mu giti c'amapera, ntago bari bagasarura, gagaragara nk'aho gatari gakura neza kuko ntago gahiye. I Musanze turagajyaga cane nk'imbuto.

Ku musozi uhinzeho icyayi harimo abagore benshi bari kugisoroma bahetse ibisero mu mugongo nibyo bari gushyiramo icyayi bamaze gusoroma, biteze n'ibitambaro mu mitwe yabo. Iki cyayi ntabwo abaturage bose bakunda kugihinga akenshi kibaga ari icya Leta ariko n'abaturage bamwe na bamwe baragihinga.

Inkoko nini cyane iri hamwe n'udushwi twayo, inkoko ikunda utwana twayo, kuko iyo ugiye gufata kamwe ihita igusimbukira ikakuruma ,utu dushwi ntabwo twari twakura ku buryo iyi nkoko yatureka, turacyari dutoya.

Inkoko y'igisake ihagaze mu mucaca. Irakuze cyane bigaragara ko ifite ibiro byinshi. Ifite utubara tw'umukara n'ayandi mabara ajya gusa n'umuhondo. Iyi sake ntabwo itera amagi.

Imodoka ya Dayihatsu y'ubururu ipakiye ibitoki, umuntu ayihagaze ,ahagaze hejuru ku ibyo bitoki, undi mukarani ahagaze ku ruhande rw'iyo modoka, hari n'umu agent uri mu mutaka wa MTN, iruhande rwe haparitse na moto irambitseho kasike hejuru.

Umukecuru uri guseka wishimye, afashe ingemwe ebyiri zirimo ibihoho, yambaye igitambaro cy'umutuku n'umweru n'ikote ryi'tiriningi, ari guseka arishimye, izi ngemwe bakunda kuzitera mu mirima, kuruhande mumurima harunzemo imyanda, cyangwa ibindi bihingwa.

Intoryi basaruye bazisuka ahantu hamwe, ni nziza zisa neza zirakuze kandi ntabwo zahuye n'uburwayi, kuberako zifite ibara rimwe ntabwo zapfumuwe n'udusimba.

Ubuhunikiro bw'ibirayi, aho babika imbuto ibirayi bazatera bakabigira imbuto, ibingibi babishyizemo, ariko bigaragara ko bitari byamera. Iyo ushyizemo ibirayi biboze biboza ibindi, ikiza ni uko ubirobanura, ugasigaza ibizima.

Avoka basatuyemo ibice bibiri byose babirambika hasi. Igice kimwe kiracyarimo ikibuto, ikindi nta kibuto kirimo. Iyi avoka bigaragara ko ifite amavuta, iraryoshye cyane. Nta bizi byinshi birimo. I musanze naho zirahera cyane.

Umugore yiteze igitambara yambaye aga t shiti k'umukara yikenyeye n'umupira ahetse igisebo bigaragara ko ari gusoroma icyayi

Umuhinzi avuye gusarura inyanya. none ari kuzifata akaziyora hasi, akazishyira mu gitebo, agahita azisuka mu dufuka tuvamo ifarini ya Azamu.

Ibishyimbo basaruye babirunda ahantu hamwe. Harimo ibyapfuye harimo n'ibizima, bigaragara ko bitumye cyane. Biraryoha cyane, iyo umuntu yabiye agira imbaraga kandi agakomera.

Abantu babiri bari mu murima. Umukobwa umwe yambaye imyenda y'umweru n'ipantaro y'umukara. Yikoreye agafuka karimo ifumbire. Naho umusore uri hirya we ,yamanitse agati. Akandi kaboko nta kintu gafashe.

Mu cyaro aho bari gucuruza ibisheke, ibyiza abari gucuruza babirambitse ku ibuye ni ho babyegetse, hari ibyo batemye hariho n'ibyo batatemye. Ibisheke biraryoha cyane bitewe n'amafaranga ufite uragenda bakagutemera icyo ushaka.

Avoka imwe bayisatuye iri kugaragara igice indi iracyari yose, zirambitse ahantu hamwe. Iyo basatuye ikibuto kiracyarimo ntago bari bagikuramo. Iyi avoka bigaragara ko idafite amazi menshi ahubwo ifite amavuta, iraryoshye cyane.

Abantu batatu abagabo babiri n'umugore umwe bafite uduparete ku rutugu turimo imboga. Umwe afite inyanya, undi mugabo afite imboga, undi mugore nawe afite imboga, muri ako gaparite bose bazifite ku ntugu.

Ibishimbo by'imiteja babisaruye babirunda ahantu hamwe ntago byari byera neza ibishimbo biraryohaga cane mu karere ka Musanze birahera iyo umuntu yabiriye agiraga imbaraga nyinshi cane.

Umurima guhinzemo ibireti. Ibireti babikoragamo imiti zitandukanye zo kwica udusimba. I Musanze turabingaga cane, ariko dukundaga kubihinga mu Kinigi, na hantu hegereye Ibirunga.

Amateke basaruye mu murima bayarunda ahantu hamwe, barandura ayandi bayarunda hejuru y'ako basaruye, ariko ayo barunze hejuru aracyariho bya bibabi byo hejuru, ntabwo bari babikuraho. Ayo mateke rero araryoha, iyo umuntu yayariye agira imbaraga nyinshi cyane.

Aho bokerereza ibigori, hari imbabura irambitseho ibigori, ibihiye n'ibidahiye n'ibibisi, ibindi biri mu mufuka, liruhande rwayo hariho indobo n'abandi bagore bunamye, undi mugore we ari konsa umwana.

Imifuka z'ibirayi basaruye mu murima， bazirunda ahantu hamwe，ntago bari bafunga izo mifuka baracategereje ngo bazifunge neza， babijane kubigurisha ku masoko. Ibirayi biraryohaga cane，turabikundaga kandi n'iwacu biraheraga.

Umurima barawuhinze, iruhande rw'uwo murima hariho ibiti hirya cyane hariho ishyamba ry'ibiti, muri uwo murima bigaragara ko bawuhinze ariko ibyo bateye ntabwo byari byera.

Mu ishyamba, aho harimo ibiti byinshi byabuze amazi, bigaragara ko byumye, hirya hariho agasozi kariho ibiti wagira ngo bifite ibara ry'icyatsi, harimo n'amabuye n'ibyatsi byo hasi na byo byarumye.

Umurima bahinzemo ibishyimbo birebire bitari imbuto ngufi bashyizemo n'imishingirizo yo gufata ibyo bishyimbo bizazamukiraho. Ni byiza cyane iyo byeze bigira umusaruro bino bishyimbo birebire.

Amasaka adahuye bayaciye bayakuye mu murima ariko areze n'uko atari yuma neza, aya masaka arera cyane no mu karere ka Musanze turayahinga ahantu hamwe na hamwe. Iyo uyahinze wenyine inyoni zirayarya.

Uruganda bakoramo amafu, harimo imifuka myinshi ishushanyijeho ikigori mu ibara ry'icyatsi, handitseho na supa mu ibara ry'umutuku, hariho udufuka twinshi cyane tugerekeranye, mu bigaragara ni uruganda ruranguza amafu.

Ibishyimbo byumye basaruye bimwe byaguye hasi ibindi babisutse mu ngemeri, bisa neza biraryohaga cane turabitsimbaga mu nkono, ubundi tukaja turabigereka ku biryo cane cane ku birayi. Bigiraga intungamubiri nyinshi umuntu ubijyaga agiraga imbaraga nyinshi cyane

Amasaka yumye aracyari mu murima ntabwo bayasarura. Iyo bayasaruye, barayahura, bakayabeteshamo igikoma ,abana bakakinywa cyangwa n'abantu bakuru na bo bakakinywa.

Umugore uri kugosora ingano, amaboko ye afashe intara, yambaye ingofero y'umutuku n'agashati k'icyatsi, inyuma ye hari umuntu uri guhinguka, iruhande rwe hari umufuka ari gusukamo ingano.

Igishanga kirimo imirima minini bahisemo guhingamo ibigori, hagati y' izo mirima haciyemo umugenda w' amazi ari kumanuka; ibigori bahinzemo ntabwo byeze neza, ni bigufi bigaragara ko nta musaruro mwinshi bifite nubwo byumye.

Ubunyobwa basutse ahantu hamwe bamaze kubutonora ariko ntabwo bukaranze nta nubwo bubese, ubu ngubu bumeze gutya hari abapfa kuburya kandi ni bwiza butera umuntu imbaraga.

Ibigori basaruye mu murima bakabyanika bikuma, bagahita babipfundikanya, none babimanitse ku biti, bafite gahunda yo kuzabihura bakabibeteshamo igikoma, cangwa bakabihungura bakagurisha impungure zumye. I Musanze ibigori birahabaga n'ubwo bitindaga kwera.

Umugore wasutse ubunyobwa hasi, ari kuburobanura ntabwo butonoye, yicaye yarambirije yambaye umupira w'umuhondo, yiteza ni igitambara mu mutwe.

Ibishyimbo bari kurenga ku ngemeri bifite, ibara ryiza ibindi biri hasi ku gishashi, ntabwo bari babirenga. Iyi ngemeri bavuga ko ifite ikiro, ariko kirarenga kuko ni nini cyane, kera ni yo bakundaga no kuriramo.

Ubunyobwa butandukanye:ububese n'ubutabese. Ububese babushyize ku kantu kameze nk'akarahuri, ubutabese babushyize ku nkoko. Buraryohaga cyane. Ubwo ubwo batabese barabukarangaga bakaburya abandi bakaburya ari bubisi, ububese bwo babutekaga mu biryo.

Umurima uhinzemo ibishyimbo by'imbuto ngufi bahinze ku murongo, ibishyimbo ntabwo i Musanze tubishingirira. Byera bikiri hasi kandi nabyo biraryoha turabikunda cyane umuntu wabiriye agira imbaraga.

Ibishyimbo birunze hamwe bifite amabara g'umuhondo n'agandi gajya gusa n'umukara, bisa neza cane. Iyi mbuto nayo i Musanze turayigiraga, kubera ko duhingaga ubwoko butandukanye bw'ibishimbo. Birumye ni ibyo guteka babitsembye.

Abagore bari mu murima bamaze gusarura, umwe yitwikiriye umutaka ufite amabara y'ubururu n'umutuku, uwundi aricaye, imbere ye harambitse akabase.

Umugore uri kugosora ibishyimbo, harimo imicucu myinshi ari kwifashisha intara, yiteze igitambaro mu mutwe ahetse akana k'uruhinja, yambaye iburuze y'ubururu, ahetse umwana mu gitenge.

Ubunyobwa baranduye mu murima, ariko ntabwo bari babusarura ngo babukureho buracyafashe kurutiritiri. Ubunyobwa iyo babutonoye buba nk'ibishyimbo, ariko ntabwo ari ibishyimbo. Gusa nabwo bugiraga intungamubiri nyinshi, hari ababurya babutonoye, abandi bakabuhekenya, abandi bakabugiramo ifu bakabuteka.

Ubunyobwa bubisi budakaranze, nta bwo butetse, bufite ishusho imeze nk'iy'ibishyimbo, ubunyobwa babuhinga cyane cyane mu burasirazuba, bwerera munsi y'ubutaka.

Ibihwagari biri mu murima, ntabwo byari byera biracyari bitoya, iyo byeze babikoramo amavuta, kandi ni yo mavuta abantu bakunda kurya, kubera ko ayandi agira ingaruka.

Ikusanyirizo ry'ibigori hamanitsemo ibigori byinshi cyane, iryo kusanirizo risakajwe amabati y'umutuku, hari abagabo babiri bahagaze iruhande rwaryo, umwe ateruye akantu k'akuma undi yifashe mu mufuka.

Udukombe dusutsemo ibishyimbo bitandukanye, ubwoko bwinshi :harimo iby'umweru ,iby'umukara hariho amashaza ,hariho n'impungure zirunze ahantu hamwe. Ibishyimbo byose biri mu dukombe nubwo ari muri kamwe kamwe hariho n'inpungure.

Ibigori basaruye mu murima barabyanika biruma barabipfunditse babimanika ku biti, nta go bigeze babikuraho amababi gose bategereje kuzabihungura bakabigurisha bihunguye, cangwa bakabitekamo amahundo go kujya birajyohaga cane.

Ikiraro c'ingurube zimwe ziri kurya zihagaze n'aho ziriraraga. I Musanze zirahabaga cane turazororaga, iyo wazihaye ibyokurya zitangaga umusaruro mwinshi cyane.

Umuganga uvura amatungo, afashe imbwa ari kuyivura, yambaye ga z'ubururu, yambaye agapira k'umweru imbere, n'itaburiya y'ubururu y'abaganga.

Udukwavu dusa neza ,ntabwo dufite umwanda ,ni dutatu dufite ibara ry'umweru, amaso yatwo ni umutuku bigaragara ko nta byatsi byo kurya baduhaye, ariko dufite isuku nyinshi.

Ikiraro bororeramo inka harimo umugabo ufashe agatavu, undi ni umuveterineri ari gukoresha serenge agatera urushinge ka gatavu, yambaye igisarubeti.

Inkoko nyinshi cyane ziri ahantu hamwe, harimo umuntu uri mu kiraro cy'izo nkoko ari kuzitaho ari no kuzikorera amasuku kuko iyo zibaye ahantu hari umwanda zirarwara cyane zose zigapfa.

Umwana wishimye cyane w'umunyeshuri, yambaye imyenda ya kotoni, ari guseka ,iruhande rwe hari inka ,we afashe igikombe cya palasitike ,ari kunywa amata.

Inka ihagaze mu rwuri ifite ibihembe binini, ifite agatwe gatoya, ifite amabara y' umweru avanzemo n'irindi bara ry'ikijuju. Inka itanga umukamo cyangwa bakayibaga bakayiryamo inyama.

Ikiraro cy'inkoko harimo inkoko nyinshi cyane. Hamanitsemo utuntu inkoko ziriramo dufite amabara y'umutuku, basukaho n'amazi inkoko zikagenda zijya kunywa amazi iyo ziyakeneye. Ni ikiraro cyiza.

Umuveterineri uri kuvura inka, afite serenge, ari gutera urushinge ahagana nko mu irugu ry'inka, iyo nka ifite amahembe, umworozi afashe umunwa w'inka, afashe no ku ihembe ry'inka.

Inka iri mu kiraro bigaragara ko ishonje, kuko imeze nkaho ifite inzara. Ifite iherena mu gutwi ry'umuhondo, inka nta mabara menshi ifite. Uretse umunwa wayo ujya gusa n'umweru, ahandi hose isa n'umukara.

Aho baragirira inka hari umugore ufashe ku nka, yambaye bote z'umukara, ijipo y'umutuku, yambaye n'umupira w'umukara, iruhande rwe hari abagabo babiri: umugabo umwe yambaye umukara undi yambaye ishati y'umweru. Izi nka zifite amabara y'umukara n'umweru.

Umugabo usutamye uteruye itureye y'amagi, yambaye ikoti rya simirikwire, agapira k'icyatsi n'ipantaro y'ikoboyi, n'ingofero y'umukara yambaye n'agapfukamunwa. Iyo tureye afashe ifasheho n'akandi kana gahagaze, kambaye akajampa.

Aho babaga mu ibagiro, harimo inyama nyinshi zimanitse, ababazi nabo bari gukata inyama, hari kugaragara umusaza wambaye akagofero k'umweru, agapira k'umukara, yambaye n'itaburiya y'umweru.

Umuhanda gwa raterite gw'ibitaka guhagazemo abana babiri baragiye amahene, ago mahene gafite amabara menshi cane, iruhande g'umuhanda hariho ibyatsi byinshi cane bigukikije.

Inkoko y'igisake ifite amabara atandukanye iyi ntitera amagi, iraryoha cyane. Mu gitondo irabika abantu bakabyuka, ariko yo bakunda kuyorora bagamije kuyirya gusa ntabwo itera amagi.

Inyamaswa y'ingagi iraryamye umutwe yawurambitse hasi ifite amabara y'umukara, iyi ngagi iba mu Rwanda iyo abazungu baje kuyisura basiga amadovize.

Inyamaswa imeze nk'intama iri mu ishyamba i musanze zirahabagacane, ifite amabara gaja gusa n'ikijuju irikuba mu ruhande rw'iburyo.

Inyamaswa y'ingwe iri kumwe n'icyana cyayo biri kugenda birigutera intambwe iringaniye, iyi ngwe iri mu bwoko bw'amapusi ariko yo nini ntago iba ingana n'ipusi.

Imiyongoyongwe irasamye imwe indi ntabwo yasamye iri kureba amazi, ihagaze ku nkombe y'ikiyaga ntabwo iri kwinjira mu mazi ahubwo yihagarariye ku twatsi turi aho ngaho ku nkombe.

Akanyoni keza gahagaze mu byatsi bitandukanye bimeze nk'umucaca ariko birebire, gafite amabara y'umukara avanzemo n'umweru, ijisho ni umukara, umunwa wako urasongoye.

Ubwoko bw'ikinyoni gifite umunwa muremure hari kugaragara ijisho n'umutwe utari kugaragara neza, bigaragara ko ki kikiri inyuma y'igiti icyo giti cyayikingirije ntabwo iri kugaragara neza.

Umuserebanya uri kugenda ku ibuye, uyu muserebanya ukunda izuba cyane, kubera ko akenshi ukunda kugaragara ahantu iyo izuba riri kuva, uje kota izuba. Uri mu bwoko bw'ibihangara, uyu muserebanya rero ntago bawurya, umeze nka marijosi.